Umuyobozi w'urubyiruko ari gutanga ikiganiro ku rubyiruko, arimo ababwira uburyo bashobora kumenya amateka yabo, nibagire inyota yo kumenya amateka yabo kugira ngo babashe kumenya aho bavuye n'aho bageze ndetse n'aho bashaka kugera.

Mu Rwanda twagize abami benshi batandukanye barimo Mutara wa kabiri Rwogera, Kigeli wa gatatu Ndabarasa ndetse n'abandi ubu rero basimbuwe n'abaperezida nibo bicaye mu mwanya wabo bose baba bagamije guteza imbere igihugu imirimo inshingano zabo ibyo batekereza byose biba bigamije guteza imbere igihugu ndetse no kurinda ubusugire bwacyo.

Ubutaka buhingwa burimo imyaka igiye itandukanye harimo insina, urubingo, amashaza, ibishyimbo, bigaragara yuko abaturage baho begerejwe umuriro w'amashanyarazi, ubu amazi n'umuriro birabegereye.

Amashanyarazi ni moteri y'iterambere mu gihugu icyo aricyo cyose, igihugu gifite amashanyarazi iterambere ryabo ririhuta cyane kuko tuyifashisha mu bikorwa byinshi bitandukanye ndetse n'abize ibijyanye n'amashanyarazi nabo babasha kubona amafaranga abatunga mu buzima busanzwe ndetse bakabasha nabo kuyakoresha ibikorwa bibateza imbere.

Umuriro w'amashanyarazi ufite uruhare runini mu iterambere ry'u Rwanda, kubera ko amashanyarazi tuyifashisha mu buhinzi, mu ikoranabuhanga, mu kwigisha ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kunyura hejuru y'ikiraro ni iteme ryubatswe ku nkunga ya leta ryambutsa abantu bajya mu mi mpande n'impande mu bice bitandukanye mu mirimo itandukanye harimo gusenga, kujya mu isoko, kujya mu kazi nko guhinga ndetse no mu y'indi mirimo

Mu Rwanda usanga igihugu cyubaka amazu agiye atandukanye, mu bice byinshi bitandukanye by'Igihugu, urugero nko kubaka Amashuri, kubaka Utugari, kugira ngo begereza serivisi abaturage, Leta ni umubyeyi.

Inzu y'abaturage bishyize hamwe, bakora koperative bayita katabagemu famazi koperative, ni inzu ikusanyirizwamo amata, abaturage benshi bazana amata bakayatunganyiriza, bakayakusanyiriza hano ndetse akabasha gutunganywa, akagira ubuziranenge. Rero twese tujye tunywa amata asukuye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu nama, bari kwiga uburyo dukwiye kwirinda akarengane ndetse n'uburyo ikiremwamuntu aho kiva kikagera, kigomba kubahwa ndetse uburenganzira bwa bwa muntu bwose, bukubahwa.

Ibikorwaremezo harimo nk'umuhanda bidufasha kwihutisha iterambere kubera ko ibinyabiziga bitandukanye moto, imodoka, amagare, tubyifashisha dutwara ibintu n'abantu, tukabasha kugera aho tugiye mu gihe gito.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari mu nama bari gutora abazajya bakora irondo ry'umwuga maze bakabarindira umutekano, bityo umudugudu ugakomeza kubaho utekanye, buri muturage akara adashikagurika kubera ikibazo cy'umutekano muke.